Icyumba kirimo ameza, intebe, ibikapu, amakayi, amakaramu, bisa nkaho bagiye guha abanyeshuri ibi bikoresho, bakazabibyifashisha mu masomo bagiye kuzajyamo.

Abanyeshuri benshi biga mu kiburamwaka, bahagaze ku mirongo, hijya yabo hari abarimu babo basa nkaho hari imikino bari kubakinisha, hirya yabo hari amashuri bigamo.

Ishuri ririmo abana bambaye impuzankano bicaye ku ntebe zabugenewe, bari kwiga kuko imbere yabo hari ikibaho cyanditseho inyuguti, hirya yabo hakabaho ibishushanyo bifashisha biga.

Icyumba kinini kirimo ibitanda bishasheho imifariso bigaragara ko iki cyumba cyifashishwa baryamamo, hirya y'icyo cyumba hakaba hari ibishushanyo bigaragara ko ari nk'icyumba cy'abana kuko kirimo udushushanyo tw'abana.

Umunyeshuri wambaye impuzankano y'ubururu n'umweru, ari mu kayira gatoya, asa nkaho ari kuva ku ishuri, hirya yaaho hari indabo.

Icyumba cy'ishuri kigamo abana batoya, bakaba bari mu ishuri bari kwiga, imbere yabo hakaba hari ikibaho cy'umukara, hirya y'icyo kibaho hakaba hari ibishushanyo biriho inyuguti bifashisha bari kwiga.

Icyumba cyicayemo umuryango ugizwe n'abana n'ababyeyi, ababyeyi bicaye n'abana bisa nkaho bari kubaganiriza kuko abo bana bicaye hasi bateze amatwi nkaho hari icyo bari kumva.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho abana bakoresha bari kwiga cyangwa bari gukina, giteguye neza kigaragara nkaho bagiye kugikoresha, bari kwiga cyangwa bari gukina.

Umwana w'imibiri yombi wambaye umupira wicyatsi urimo imirongo y'umweru, arimo arashushanya imbere ku kibaho, umwarimu aramuhagarikiye, bisa nkaho bari mushuri bari kwiga.

Ishuri ririmo abanyeshuri n'umwarimu wabo wambaye impuzankano yabugenewe, bakaba bari imbere ku kibaho ari guha umwana ibyo gukora, biragaragara y'uko umwana ari gukoresha icaki yandika ku kibaho bigaragara y'uko yabigishije neza.

Icyumba cy'ishuri cyicayemo abanyeshuri wasanga bari kwiga, imbere yabo hari ikibaho, hirya yabo hakaba hari ibishushanyo bitandukanye, hejuru y'iryo shuri rikaba ririmo parafu.

Umugabo muremure wirabura wambaye umupira w'umukara, afite telefone n'indangururamajwi mu ntoki, hijya ye hakaba hari abanyeshuri, bigaragara ko ari ibiganiro ari guha bano banyeshuri.

Ibitabo bifashisha bari kwigisha abana, ibi bitabo bikaba biri mu moko atandukanye, bikaba birambitse ku meza, bigaragara ko ibi bitabo byahashyizwe n'umwarimu wigisha abana biteguye kwiga.

Umunyeshuri w'imibiri yombi wambaye agapfukamunwa, akambara n'impuzankano yicaye mu ishuri afite mudasobwa imbere ye bigaragara ko ari kumwe n'abandi kuko hari n'izindi mudasobwa bakaba barimo kwiga.

Abantu benshi biganjemo abambaye impuzankano isa bicaye ahantu bigaragara yuko hari abandi babari imbere bari kubagezaho ikiganiro, bakaba bicaye bateze amatwi kugira ngo bumve icyo bababwira.

Icyumba cy'ishuri kigamo abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, bicaye mu ntebe, hari imbere yabo umunyeshuri bigana ufite igitabo yandikamo, akaba asa nk'uri kubasomera nabo bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo avuga.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bicaye mu cyumba k'ishuri, iryo shuri ririho amadirishya ririho ibibaho bigiraho bigaragara ko aba banyeshuri barimo kwiga kuko bari kwandika.

Ikigo cy'amashuri kigaho abanyeshuri bari hanze bambaye impuzankano, iki kigo kikaba cyubakishijwe amabuye ahiye kikaba gisakaje amabati kandi imbere yacyo hakaba hari umuhanda w'igitaka, hirya y'uwo muhanda hakaba hari ubusitani abana barimo banakiniramo burimo ibyatsi bitoshye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano isa, bicaye ahantu ari benshi bigaragara ko hari umuntu wabicaje aha ahantu akaba ari ibiganiro ari kubagezaho, ahagaze imbere yabo kuko bicaye basa nk'abamuteze amatwi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bicaye ahantu hamwe, bigaragara yuko imbere yabo hari umuyobozi wabo ufite icyo ari kubabwira kuko bicaye bamuteze amatwi bisa nkaho ibintu ari kubabwira ari iby'ingirakamaro bakaba babiteze amatwi.

Umwarimu n'umunyeshuri we bahagaze imbere yishuri, umwarimu yambaye ijipo ndende n'ikoti ryayo, umunyeshuri yambaye impuzankano, ipantaro n'ishati n'umupira wimbeho, bari imbere y'iryo shuri risakaje amabati y'umutuku.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye bicaye mu cyumba kimwe bigaragara ko aba banyeshuri hari umuntu uri imbere uri kugira ibyo abagezaho kuko bicaye basa nk'abamuteze amatwi, inyuma yaho kandi icyumba barimo kikaba ari icyumba cyubakishijwe amatafari ahiye.

Icyumba cy'amashuri basa nkaho bari kuhubaka kuko hanze hari intebe abanyeshuri bifashisha bicaraho, izo nzu z'amashuri bari zubakishijwe amatafari y'ibitaka kandi iyo nzu zikaba ziriho amabati, bisa nk'aho igisigaje ari ukuzikorera isuku, ubundi abanyeshuri bagatangira bakazigiramo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bateraniye mu rusengero ,bagiye gusenga kuko imbere yaho ndi kuhabona abapadiri ,bisa nkaho bari muri kiliziya baje gusenga.

Umugore muremure w'inzobe wambaye ikanzu ahagaze imbere y'abanyeshuri bicaye, afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko ari kugeza ikiganiro kuri bano banyeshuri bicaye nk'abamuteze amatwi bumve ibyo ababwira.

Abanyeshuri barimo abakobwa n'abahungu bahagaze ahantu bafite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara yuko bari kugira ibyo bavuga imbere y'abantu bahagaze kandi aba banyeshuri bigaragara yuko bari kumwe n'abarimu babo.

Icyumba cyicayemo abantu basa nkaho bari mu kiganiro, imbere yabo hari umugore wambaye ikanzu y'umukara w'imibiri yombi afite mudasobwa aka n'igikoresho gifata amashusho, bigaragara ko hari ibyo ari kubabwira.

Abanyeshuri benshi bicaye bambaye impuzankano isa, bigaragara ko ari abasoje kwiga, bakaba bameze nk'aho hari umuntu ubahagaze imbere, bari gukurikirana ibyo ari kubabwira.

Abantu bicaye mwi ishuri, bafite mudasobwa imbere yabo, bambaye udupfukamunwa bigaragara ko igihe barimo kitari cyiza cyane, imbere yabo hari undi mugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku, nawe wambaye agapfukamunwa bisa nk'aho ari kubigisha.

Inzu nziza isize amarange y'umweru bigaragara nkaho bashoje kuyubaka ikaba isakajwe amabati, imbere yayo hakaba hari umuhanda unyuramo uyijyaho nanone hakaba hateye ibirabyo by'umuhondo n'icyatsi kibisi.

Umuhanda werekeza ku nzu iteye amarangi y'umweru ifite idirishya n'inzugi, iyi nzu kandi imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo indabyo nziza, bikaba bigaragara yuko aha hantu hari isuku ihagije.

Inzu nini yubatse, isize irangi ry'umweru ifiteho imiryango n'amadirishya, ikaba imbere yayo hariho ubusitani bwayo, bugizwe n'ibirabyo byiza by'umuhondo, hakaba hari n'umuhanda umuntu anyuramo yerekeye kuri iyi nzu.

Umuhanda wubatswe neza wubakishijwe amabuye, werekeza ku nzu iteye irangi ry'umweru, igeretse kabiri, ibisakaje amabati atukura, iyo nzu imbere yayo hari ubusitani burimo igiti kirekire n'ibirabyo ubona ko bigaragara neza.

Abanyeshuri benshi bicaye mu cyumba k'ishuri, bakaba bicaye imbere ya mudasobwa imbere yabo hateretse icupa ririmo amazi, hakaba hari umwarimu uri kuberekera ibyo bakora.

Abanyeshuri harimo abahungu n'abakobwa bicaye mu ishuri bafite mudasobwa imbere yabo bafite amakayi n'amakaramu bigaragara ko bari kwiga, bari mu ishuri riteye irange ry'umweru ririho urugi bakaba bari gufata amasomo.